Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, Uhagararanye n'umugore bambaye neza, bari mu ihuriro, mu karere ka Nyagatare, bashishikariza urubyiruko kwizimira.

Abantu b'abayobozi bicaye ku ntebe z'umutuku, bari mu cyumba cy'inama bateze amatwi kandi barikurikira ibyo ubigisha ababwira, harimo abagabo bambaye neza n'abagore bambaye neza.

Icyumba kinini gikorerwamo inama giteguye neza, kuburyo abantu bicara barebana, abo hakuno barebana n'abo hakurya, harimo abantu benshi batandukanye bicaye umwe muri bo arahagaze.

Icyumba kinini gikorerwamo inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye, icyumba kigizwe n'ameza manini ateretseho amacupa arimo icyo kunywa, bitewe n'icyo umuntu anywa harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Abagabo bane n'umugore umwe bitabirirye inama aho umugore yamabaye ikazu y'imishumi, abandi bagabo babiri bambaye udupira ndetse abandi bambaye amashati. Aba bagabo sibitabireye inama bonyine ahubwo hari n'abandi bantu benshi bitabiriye inama.

Imbaga nyamwinshi y'abaturage yitabiriye inama, bicaye mu cyumba kinini kiberamo inama, icyo cyumba gifite inkuta z'umweru amadirishya ndetse n'inzugi z'ibirahure.

Abakobwa basa neza, bambaye imyambaro ya kinyarwanda ndetse na kiberarinka mu mutwe. Bambaye imyambaro, imikenyero ndetse n'inigi. Bari ahantu hateguye neza, barimo barabyina, imbyino za gakondo.

Abagore bambaye neza bateze amaboko bambaye imikenyerero ndetse na twakiberinka mu mutwe, inyuma yabo hariho itsinda rinini ry'abantu batandukanye bambaye hasi umukara hejuru imipira y'icyatsi.

Abakobwa beza bambaye neza imyambaro ya kinyarwanda, iri mu bwoko bw'imikenyero, iyo gukenyera ni umweru ndetse umwitero na wo bawukenye ariko urasa umukara, umwe muri bo afite indangururamajwi ariko ntiyambaye agapira gasa n'akabo, yambaye agapira k'umukara, igihe abandi bose bambaye udupira tw'imweru, bari gucurira barizihiwe.

Ibirago cyangwa se imisambi n'ibikoresho bibohwa mu byatsi byabugenewe ndetse n'imifuka yabugenewe. Ibi bikoresho bikoreshwa mu kwicarwaho ndetse biranagurishwa hakabonekamo amafaranga. Ibi bikoresho kandi bikoreshwa mu bijyanye n'imihango y'ubukwe.

Akabindi gateretse neza, karimo umuheha. Akabindi ni agakoresho ko mu bikoresho nyarwanda, by'umuco, gakoreshwa mu gusukwamo amazi, inzoga, mu kwinikamo ikigage, ndetse n'ibindi.

Abakobwa beza batanu, bose bicaye hamwe mu cyumba kimwe, bambaye neza, bambaye imyambaro y'imikenyero imwe ikoreshwa mu muco gakondo, iyi myambaro ikunda gukoreshwa mu bukwe cyangwa se mu itorero igihe abari ndetse n'abasore babyina.

Umuryango munini kandi ufunguye imbere y'uwo muryango hariho inkingi iriho icumu ndetse n'ingabo, icumu n'ingabo ni ibikoresho bikoreshwa mu kubyina aho kimwe umuntu aba agifashe mu kuboko kw'iburyo ikindi mu kuboko kw'ibumoso.

Abasore bambaye neza bambaye umwitero w'umuhondo, icyo gukenyero cy'umukara, amashati y'imikara ndetse n'urunigi rw'umukara n'umweru barapfukamye bose bateze amaboko barimo barabyina, bari ahantu hameze neza hateguye neza.

Umukobwa wambaye igisuti cy'ubururu n'ingofero, bikoreshwa mu myugagiro, afite ipensi mu ntoki, ari guhuza insinga, akora igikoresho gikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Icyumba kinini kirimo insinga nyinshi z'amashanyarazi, aho ziturutse hasi zigenda zihitanya mutwenge, zikazamuka zikagira hejuru, kandi ziganjemo ibara ry'umuhondo, aho harimo utubuwate dusa n'umweru.

Ipironi rigizwe n'insinga nyinshi z'amashanyarazi, rigaburira ingo z'abaturage zitandukanye umuriro. Ku buryo rishobora kugaburira umudugudu umuriro w'amashanyarazi.

Ifoto ni igikoresho gikoreshwa mu mashanyarazi gishingwa kikanyuzwamo insinga z'amashanyarazi, aho gishobora kunyuzwamo insinga z'amashanyarazi zirenze eshanu, kiba gifite uturongo dutambitse ndetse n'uduhagaritse, aho bagenda banyuzamo insinga bakoresheje utwo twuma dutambitse, izo nsinga zigenda zihererekanya mu mapoto atandukanye.

Ingomero z'amashanyarazi zubakwa hakurikije ingano y'amazi cyangwa se ingano y'ibyo bakeneye kugira ngo amashanyarazi agire imbaraga, amashanyarazi kandi anyuzwa hejuru mu kirere cyangwa se akanyuzwa mu butaka binyuze ku mapoto n'amapironi.

Amapironi anyuzwamo insinga z'amashanyarazi, zambukiranya ziva hamwe zijya ahandi. Aya mapironi, aba agizwe n'ibyuma bitandukanye, aho bigenda bihagarikwa, ibindi bitambikwa, kugira ngo babone aho banyurahurira.

Abantu bari gukora imirimo y'imyugangiro, bambaye imyenda yabugenewe, twita amajire. Bamwe bambaye amajire y'icyatsi aciyemo uturongo tw'igitakazi, abandi bambaye ay'umutuku nayo acimo imirongo y'igitakazi. Abandi bambaye icyatsi giciyemo imirongo y'igitakazi, ariko hasi agizwe n'umukara. Bose bambaye ingofero.

Umusore wambaye imyenda y'ubutekinisiye haba ku gisurubeti, ingofero ndetse n'amadarubindi, arimo arasuzuma uburyo amashanyarazi azajya yaka agendeye kubyo yanditse, uyu musore ari gusuzumira ku nkuta z'umweru ziriho utuburo dutandukanye two kwakirizaho amashanyarazi.

Amashanyarazi ni uburyo bwo guhuza insinga zikabyara amashanyarazi binyuze hejuru mu kirere cyangwa se hasi mu butaka, aya mashanyarazi avomwa mu ngomero zitandukanye aho ushobora kuzikura mu ngomero z'amazi ndetse n'izindi zitandukanye, izi nsinga ziba zifashe ku byuma byubatswe mu buryo bw'umunara twita amapirone cyangwa se amapoto.

Inyubako nini ifite imiryango itandukanye, yubakishije amatafari ahiye, ifite imiryango y'ubururu. Mu marembo yayo harimo intebe ndetse n'ameza.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ufite n'utuyira two ku ruhande tunyurwamo n'abagenzi, hari n'ikiraro kinini cyubatse mu buryo bwa gihanga gishobora kunyurwaho n'ibinyabiziga.

Umuhanda wa kaburimbo mugari kandi usa neza urimo ibara ry'umweru rigiye ririmo utuzu dutandukanye, umuhanda ufite itaba aho hamwe hitse ahandi hatumburutse hajya hejuru.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batambuka ku kiraro kinini cyubatse mu buryo bwa kijyambere cyubakishije ibyuma bikomeye aho bakandagira hari ibyuma by'umutuku, ibindi byo ku mpande n'ibyuma biteye irange ry'icyatsi.

Abantu batandukanye bakora imirimo y'imyugangiro, bari gufasha imashini yabugenewe gukora umuhanda wa kaburimbo, aho imashini igenda isanzagiza ibitaka bikorwamo kaburimbo, nabo bakagenda banyura ku ruhande basanze neza iryo taka.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga bari gukina umupira, bafite umuhate kandi bambaye impuzankano zitandukanye hagati y'amakipe yombi, bashagawe n'abantu benshi baje kubashyigikira, ku ruhande harimo umutoza, ugenda ubabwiriza icyo bakora.

Inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi z'ubuyobozi butandukanye, zifite amarembo manini kandi magari, ariho ibyapa bitandukanye, umuhanda ujyayo nigitakazi nta kaburimbo irimo.

Ikiraro kinini cyubatswe neza, kinyuraraho ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, amagare ndetse n'ibindi, cyubakishije ibyuma by'ubururu, ahanyura ibinyabiziga, harambitseho ibyuma bisa n'umutuku.

Inzu nini ifite ibaraza rinini rikoteye na sima yubakishije amatafari ahiye ariko yagera mu cyeragati hakarangara, hakaba hashizezemo inkingi isakaje amabati y'ubururu ndetse agera n'aho izo nkingi zigarukiye.

Imbaga y'abantu nyamwinshi yitabiriye inama muri bo bose baricaye usibye abantu batatu, umusirikare wambaye impuzankano y'abasirikare ndetse n'umugabo n'umugore, umugabo ari ku ruhande, umugore ari rwagati bombi bari kumuhereza impamyabumenyi.

Abagabo n'abagore bitabiriye inama ubuyobozi bw'ibanze bica ku ntebe nziza z'umweru, imbere yabo hataretse ameza maremare baraganira ku bijyanye n'ubutabera, ndetse n'uburenganzira bwa muntu bateganya amatwi barimo bungurana ibitekerezo.

Umugabo munini uhagaze imbere y'imbaga nyamwinshi, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi, ingofero, ishati y'amaboko magufi, ndetse n'ipantaro. Inyuma ye hateretse ameza, ndetse n'intebe.

Abantu batandukanye, harimo abasirikare bambaye impuzankano ndetse n'umupolisi, abo bantu bamwe barahagaze abandi barasukamye kandi abo bantu bafite agapapuro mu ntoki, gasa n'aho ari impamyabumenyi.

Imbaga nyamwinshi abaturage b'abagore n'abagabo bicaye mu buryo bw'uruziga. Bagaragaramo abagore n'abagabo ndetse n'ushinzwe umutekano, mu bijyanye na gisirikare. Hagati yabo hahagaze umugore wambaye neza ari kubaha impanuro.

Umugabo munini wambaye neza, ufite terefone mu ntoki, wambaye impeta, ndetse wambaye n'ishati y'ikigina, arahagaze, akikijwe n'abandi bagabo, bari mu nama y'ubutabera yo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi batandukanye, harimo abayobozi, abanyamutekano ndetse n'abaturage muri rusange, harimo intebe n'ameza kandi abaturage bose abenshi bambaye furari zigaragaza kwibuka.

Abantu benshi batandukanye, barimo abasirikare ndetse bambaye n'impuzankano ya gisirikare, bari kugenda bunamira isanduku irimo umubiri iteguye neza kandi iriho indabo ziteguye neza.

Abagabo b'amatsinda ane ane, bambaye neza bateruye amasanduku asa n'aho arimo imirambo, inyuma yabo hariho abagore bateruye udutete turiho indabo ndetse bambaye n'imikenyero.

Ushinzwe umutekano mu kigo cya gipolisi, yambaye impuzankano ya gipolisi, afite indangurumajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi ndetse n'ingofero ya gipolisi, akikijwe n'abaturage, arabaganiriza ku bijyanye n'umutekano.

Umuferege uba ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo. Aho hanyuramo amazi kugira ngo adasandagurika mu muhanda akaba yateza impanuka ariko kandi hari n'ibyapa biyobora abagenzi, mu gihe byerekana ibirometero bisigaye cyangwa se niba imodoka ishobora kuhagera igahagarara.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ku mpande hariho amapave ndetse hariho n'icyapa kinini cyerekana ko imodoka iyo zihageze zihagarara, iki cyapa imbere y'aho hariho igipangu kinini gifite amadirishya asize irangi ry'umweru.

Icyapa kiba ku muhanda kirimo ibara ry'ubururu gishushanyijeho pa ndetse n'imodoka. Icyapa kigaragaza ko imodoka igeze aho hantu, abagenzi bashobora kuvamo cyangwa se hakiyongeramo abandi.

Abagenzi bafite urugendo bagiye gutega imodoka kugirango ibafashe muri urwo rugendo. Umugabo wambaye agapira k'icyatsi, ingofero afite agakapu ndetse yambaye n'isaha. Yambaye ipantaro y'igitaka, afite agacupa k'umutobe mu ntoki. Undi yambaye ipantaro y'igitaka, agapira k'icyatsi n'ingofero ndetse n'inkweto z'umweru.

Abantu benshi harimo abayobozi ndetse n'abaturage, bari kwita ku bidukikije, aho baringaniza neza, mu buryo bwo gukora isuku ndetse bagakora n'umuhanda, umeze neza, abagabo bamwe bambaye imipira y'imikara iriho ifoto y'umuntu imbere, abandi bambaye bisanzwe.

Abaturage batandukanye bari mu gikorwa cy'umuganda aho bari gukupakupa ibyatsi biri mu ishyamba, harimo umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare, abadaso bambaye ni iniforume ya kidaso ndetse n'abaturage muri rusange.

Inyubako ndende igizwe n'ibyumba bitandukanye, ifite inyubako yo hasi ndetse n'iyo hejuru. Inyubako ihagazweho n'abantu batandukanye b'abayobozi bambaye neza, basa n'abakora mu nzego zitandukanye, zikorerwamo iyi nyubako.

Umugabo munini aranezerewe, ari mu murima uhinzemo insina, afite ibuye rinini mu kuboko kw'iburyo, yambaye ishati ya karokaro igizwe n'uturongo tumanuye ndetse n'udutambitse.

Abaturage bishyize hamwe, bari gukora umuganda wo kwita ndetse no kurengera ibidukikije, aba baturage higanjemo urubyiruko cyane cyane abasore.

Abayobozi batandukanye bicaye munsi y'igiti ahagenwe, bamwe bicaye ku ntebe za sheze z'ibiti, abandi bicaye ku ntebe z'ubururu za pulasitike, imbere yabo hateretse akameza kariho telefone ndetse n'indangururamajwi, abo bayobozi harimo abasirikare ndetse n'abapolisi n'abandi baturage basanzwe.

Abantu batandukanye harimo abagabo n'abagore ndetse n'abashinzwe umutekano bambaye imyambaro y'icyatsi, ariko kandi harimo n'abakorerabushake bahagaze mu murima utarahingwa w'ikinani.

Igikorwa cy'umuganda rusange cyitabiriwe n'abantu batandukanye , higanjemo abagabo n'abagore bakiri batoya. Bamwe bikoreye amabuye, abandi bafite amasuka baratsibura imiferege yo ku muhanda. Higanjemo abashinzwe umutekano, bamwe ni abasirikare ,abandi ni abapolisi ,abandi ni abadasso.

Imbaga nyamwinshi y'abaturage bicaye abandi bahagaze, imbere yabo hahagaze umugabo munini wambaye ipantaro y'itiriningi, agapira k'umukara ndetse gafite n'ishusho ya Kagame imbere, abaturage bari mu nama baganira ku cyateza imbere igihugu.

Urujya n'uruza rw'abantu bari muri siporo, harimo abambaye imipira y'imituku, abandi bambaye imipira y'imyeru. Bari mu muhanda wa kaburimbo kandi bigaragara ko ari nijoro ariko kandi hari n'abandi bantu bari mu mpande, babashungereye.

Abakinnyi bagiye gutangira umukino w'umupira w'amaguru, aho ikipe imwe yambaye impokano y'umutuku hejuru, hasi umukara umanuye umuhondo, indi kipe ikaba yambaye ubururu, ifite akabara k'umuhondo ku ruhande rw'ibumoso.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku ukoreshwa mu mikino n'imyidagaduro, yitabiriye umukino aho yicaye muri sitade ku ntebe ababa bicaye bafana imikino bicaye.

Abakinnyi b'umukino w'umupira w'amaguru barakina umupira w'amaguru mu kibuga cyabugenewe. Bambaye impuzankano ku makipe yombi bamwe bambaye impuzankano y'ubururu imanuyeho uturongogo tw'icyatsi, abandi bambaye impuzankano y'umuhondo.

Abagabo cumi n'umwe bambaye impuzankano bakinana bakaba bari gutera mucaka mu kibuga aho bitegura umukino bari buze gukina n'ikigo cy'amashuri kiri hafi aho ngaho.

Abakinnyi b'abasore bari mu myitozo ngororamubiri, aho bagiye gutangira umukino w'umupira w'amaguru, bambaye impuzankano y'ubururu, ku mupira imbere hariho ibara ry'icyatsi.

Abagabo bahagaze mu kibuga gikinirwamo umukino w'umupira w'amaguru bambaye iniforume ikoreshwa mu gukina umupira w'amaguru iri mu ibara ry'umuhondo rimanuyeho uturongogo tw'umukara ku ruhande, hari n'abandi bari kumwe na bo batambaye iyi niforume ariko na bo bambaye imyenda ikoreshwa mu gukina umupira w'amaguru.

Amarushanwa y'imikino mu gikombe cyiswe umurenge kagame kapu, hagati y'imirenge igize akarere ka Nyagatare harimo Karangazi na Mukama, Musheri na Kiyombe, Katabagemu na Rukomo, Mimuri na Rwempashya, Nyagatare na Gatunda, Rwimiyaga na Karama ndetse na Tabagwe na Matimba.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda ya siporo bari muri sitade, aho bicaye mu ntebe zabugenewe abantu batari gukora siporo baba bicayemo, izi ntebe ni iz'umukara zifite amaguru y'umweru.

Umwana uhagaze mu muhanda wa kaburimbo, ari kureba inyuma, mu maguru ye afite ikiziga ndetse mu kiganza afashe igiti cyo gucunga icyo kiziga, yambaye ipantaro n'agapira ndetse n'utubodaboda.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo umurongo, hagati w'umweru w'indambure, impande yaho hariho umuhanda w'amapave, umuhanda hakurya yaho haparitse imodoka nyinshi zitandukanye, zirimo iz'umutuku ndetse n'iz'umweru.